Abaturage bari guhinga, bafite imifuka bari gutwaramo ifumbire, bafite ubutaka mu ntoki nka kimwe mu bimenyetso by'uko ubutaka ari ikintu cy'ingenzi kuri bo.

Ahantu hari etajeri irimo utuvido, hakabamo imifuka n'ibikarito birimo imiti itandukanye. Ifasha kwica udusimba twaba utwo mu murima, cyangwa udushobora gusagarira abantu mu ngo zabo.

Ibice bimwe na bimwe bakunze gukoresha ubutaka bwibereyemo ifumbire, babuzwiho kwera cyane mu bantu babuhingamo nk'ibirayi cyangwa izindi mbuto zerera hasi mu butaka nk'ibijumba.

Ahantu higanjemo ah'ubucuruzi usanga bakora ibikorwa bitandukanye, farumasi ikaba yegeranye n'aho bacuruza inzoga, ikaba yegeranye n'aho abantu bagurira ibikoresho bya buri munsi ahitwa kuri butike.

Ahantu harunze ibyatsi bakuye mu murima bashaka kuboza ngo bizavemo ifumbire y'imborera. Hakikijwe n'ibigori, baka babikoresha bakoramo akawunga cyangwa bakabisesa bakabikoramo igikoma.

Umuntu ukora imiti yambaye itaburiya n'umupira w'umweru, ariko akambara ga mu ntoki kugira ngo imwe mu miti akoresha itamujya ku ntoki ikaba yazangiza, indi yamaze gukora akaba yarayishyize mu kabati, ku buryo abayishaka bayibona biboroheye.

Ahantu hahinze ibihingwa bitandukanye, iyo bitangiye kurwara barabivomerera bakoresheje ipompo baheka mu mugongo, bagashyiramo umuti uvanzemo amazi, ubundi umuntu akashyira ku mugongo akajya kuvomerera.

Amateke ni bimwe mu bihingwa bidakundwa cyane ariko usanga abantu bakuze babikunda, bikunda kumera ahantu hatandukanye no mu makawa aho batagambiriye kubitera ushobora gusanga byarahimejeje.

Ahantu hahinze imboga, cyane cyane mu bice bikunze kuvamwo izuba, kugira ngo imboga zituma, bakafasha abantu kuvomerera, bakoresheje amazi yegereye aho hafi, kugira ngo babashe kugira umusaruro mwiza.

Mu bice bitandukanye abantu benshi batunzwe n'ubuhinzi, kugira babone imbuto zo guhinga abenshi bagura imirama, bakayifumbira ubundi bakazikuriramo imbuto, bazigura ahantu habegereye hari ibigega by'ubuhinzi.

Mu isoko ahantu habugenewe bagurishiriza imirama, yifashishwa mu gufumbira imboga, hakaba hari umuntu ukoramo yambaye itaburiya akagira ikayi n'ikaramu, imufasha kwandika ibyo yacuruje cyangwa ibyo akeneye.

Inzu y'ubucuruzi abantu bahuriraho bakajya kugura ibikoresho bitandukanye, abajya kugura amabasi, amasafuriya, ababa baje babitwaye ku magare, hari n'imodoka ziba zaje zizanye ibicuruzwa abantu baba bakeneye.

Abahinzi bamaze kubagarira ibigori bikiri bitoya, bakagenda bashyiraho ifumbire y'imvaruganda, hakaba hari uwabyize ugenda berekera ingano y'ifumbire bashyiraho, kugira badashyiraho nyinshi cyangwa nkeya.

Ibigori ni ibihingwa bihingwa cyane mu Rwanda, aho abantu benshi babihinga mu mirima yabo iyo mu gishanga, iy'umusozi kuko hose birahera neza. Abantu bashobora kwishyira hamwe bagafatanya guhinga umurima w'umuntu umwe.

Imiti y'amatungo ikunze kuboneka kubera ko abantu benshi n'aborozi, baba bayikeneye kugira ngo igihe amatungo yabo arwaye babashe kuyavura bitabagoye. Bidakuyeho ko hari n'abaganga b'amatungo.

Ahantu hagurishwa imiti n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buhinzi, harimo imbuto bifashisha bafumbira, hakaba haba hari ikaramu n'ikayi kugira ngo babashe kubona uko bandika ibyacurujwe.

Imashini iteretse ku meza, hakaba hari umuntu wambaye ishati y'umweru ayikoresha, hakaba hari utubati turimo rozwari, n'indi miti yifashishwa mu buhinzi.

Abantu benshi kubera bakunda guhinga ibigori, Leta yashyizeho gahunda ibafasha kubona imbuto y'ibigori, bakanabaha ifumbire y'imvaruganda, ituma bagira umusaruro uhagije, bakanabashyiriraho nkunganire ibafasha mu kuyigura.

Farumasi ahantu habikwa imiti, abantu batandukanye bakajya kuyigura, kugira ibafashe mu kwivura cya kuvura abanyamuryango babo mu gihe barwaye. Ikaba idahenda kubera ko baba batayishyuje imisoro myinshi.

Utuvido turi muri etajeri, harimo utwarindwi, utwane, n'uducupa dutoya, hakabamo n'ibikarito, byose birimo imiti yifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Kera Abanyarwanda bakingishaga inzugi zikozwe mu biti, ariko ubu abenshi basigaye bakingisha inzugi zikozwe mu byuma, kuko nizo zituma bizera umutekano w'ibintu byabo, kuko ntabwo kuzica biba byoroshye.

Ahantu bahinze ibigori, hakaba harimo n'imbuto z'imyumbati n'ubwo atari myinshi, bakaba bahazanye ifumbire kugira ngo babashe gufumbira ibyo bihingwa byabo, babyongeramo ifumbire y'imborera kugira ngo bitange umusaruro mwinshi.

Kugira, abantu bongera umusaruro w'ibihingwa byabo. Bakoresha, ifumbire, y'imvaruganda, cyangwa iy'imborera. Akenshi, bamwe bafata, ibisigazwa by'amatungo. Cyangwa ibisigazwa by'ibihingwa, bimaze kubora, nk'iyi fumbire.

Ibihaza ni bimwe mu bihingwa bahinga ahantu hatandukanye, abenshi ntabwo babihinga babyitayeho, ahubwo byo byimeza ahantu bataye imbuto zabyo, abantu bakabikoresha nk'imboga kandi bikaryoha.

Tungurusumu ni bimwe mu bihingwa bikunzwe n'abantu cyane cyane kubishyira mu biryo nk'ibirungo, si henshi bihingwa ariko mu gihugu cyose iyo ubishatse urabibona, abenshi bakababwira ko bivura amibe.

Ahantu bagurishiriza imiti abenshi twita muri pharmacy, bakunze kuhasanga imiti y'amoko atandukanye kandi hakaba harimo umuntu ufasha abahaje, wabyigiye ku buryo amenya umuti aguha n'ingaruka ushobora kukugiraho.

Ahantu hahinze imboga, kugira zitarwara uwahinze agahomba gukora k'umusaruro waba wononwe n'udusimba, batera umuti wica udukoko, bigakorwa n'umuntu wambaye bote n'ibindi bintu bituma uwo muti utamwangiza.

Ikawa ni bimwe mu bihingwa ngandurabukungu. Abantu benshi barazihinga, ariko kuzikorera biragora. Bisaba gushyiraho ifumbire, imvaruganda ndetse n'imborera.

Icyayi ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu. Abantu bagihinga kugira bakigurisha ku nganda, bagikoremo ibyayi bigurishwa hanze y'igihugu cyane cyane. Kikaba gifasha abaturage benshi kwinjiza amafaranga.

Insina kikaba kimwe mu bihingwa bihingwa cyane mu Rwanda, abantu babikoresha bakoramo umusaruro utandukanye, hari abahinga ibitoki bivamo inzoga cyangwa ibitoki byo kuribwa.

Ibishyimbo bihinze ku murongo mu tujaride, ku buryo hagati y'akajaride kamwe n'akandi harimo inzira, ku buryo umuntu ubagarira ibyo bishyimbo cyangwa ubyitaho bitamusaba gukandagiramo, uhagaze muri izo nzira bagiye basigamo hagati.

Insina zikiri ntoya, zicucitse mu kavuyo, ku buryo zose zitazashobora kwera bisaba ko zimwe muri zo bazicira kugira ngo hasigare nkeya zibashe kubona ifumbire ihagije zo zere neza.

Inyanya zimwe zisa umutuku, izindi zisa icyatsi kibisi, izisa umutuku ni ikimenyetso cy'uko zamaze kwera, izigifite ibara ry'icyatsi kibisi ziba zitarera, urategereza nazo zigahindura ibara kugira uvuge ko zeze.

Amasaka iyo uyabonye ahantu ahinze ubona wagirango ni ibigori ariko aho bitandukanira ni uko yo yerera hejuru mu gihe ibigori biba byerera mu mpande. Si henshi wabona amasaka ariko harahari aho ushobora kuyabona ahinze.

Umurima uhinzemo ibiti by'intusu ariko hakaba hanyanyagiye amashashi, ubusanzwe inyanda itabora ntabwo tuyita mu murima ariko hari abantu bayihita ahatarabugenewe nko mu murima.

Ananasi ni imwe mu bihingwa bidahingwa cyane ariko mu duce abantu bakunze kubihingamo, usanga bibafasha mu kwiteza imbere kuko bigurwa n'abantu ku giti cyabo cyangwa inganda zikoresha nk'imwe mu bikoresho bifashisha mu gukora nk'inzoga.

Imyumbati ihinze ahantu hamwe ku murongo, hari ubusitani bwateguwe neza, bagakora ku buryo hagati y'aho umwumba uhinze n'ahandi hagomba gucamo inzira umuntu yanyuramo ari kuyibagarira cyangwa n'amazi igihe imvura yaguye ari nyinshi akaba ariho aca.

Mu bihingwa bihingwa cyane harimo ibinyampeke, byiganjemo ibigori, ingano n'ibindi, bigakoreshwa cyane n'abaturage bateka igikoma.

Ibirayi kikaba kimwe mu bihingwa bihingwa cyane kandi bikunzwe, abenshi bagakunda kubirya bitetse mu mavuta ibyo bita ifiriti ariko hari n'ababirya babitogosheje byose bikaryoha.

Ku buso bunini, ahantu bahuje ubutaka, bakunze kuhahinga ibihingwa bikunzwe cyane nk'ibirayi, kandi bagashaka umuti bakajya babitera, kugira ngo birinde ko byarwaragurika, kubera ko hari udusimba dukunze gutuma birwara.

Icyayi ni bimwe mu bihingwa Leta ishyiramo imbaraga kugira ngo yongere ibihingwa ngandurabukungu kuko ibyinshi babigurisha hanze, bigafasha igihugu mu kwinjiza amadovize.

Insina igihingwa gakondo cya kinyarwanda, abantu benshi barazihinga kugira ngo bazazikureho ibitoki byo kurya bisanzwe cyangwa bakazihinga kugira bazazengemo inzoga yo kunywa mu buzima bwabo busanzwe.

Umurima uhinzwemo inyanya zikiri ntoya, bawushyizemo ifumbire ihagije. Hari umuntu uba ushinzwe kuwitaho, akagenda areba ko nta burwayi zigira cyangwa nta rwangiritse kugira arukuremo hakiri kare.

Muri pipinyeri aho batunganyiriza ingemwe, bafata ishashi bakayishyiramo itaka, muri buri shashi bakagenda bashyiramo igiti bagashyiramo n'ifumbire izatuma gikura neza, bakajya ubundi bakivomerera.

Imboga ni imwe mu bihingwa bikunze gukoreshwa ku mafunguro, hari ababihinga nka bizinesi, cyangwa bakazihinga ari izo kwirira mu rugo, kugira ngo zitangizwa n'imvura, agerageza kuzihinga ahantu heza.

Ikawa ni bimwe mu bihingwa ngandurabukungu bihingwa cyane mu Rwanda, bakaba bazwiho kuyitunganya neza, ku buryo igira umusaruro ikanagira ibihembo ku isoko Mpuzamahanga.

Umurima uhinzemo imyumbati. Bakaba bashobora gukoresha ibibabi by'iyo myumbati nk'isombe cyangwa bagakoresha imyumbati irimo hasi bakayiteka bayitogosheje.

Imbuto nyinshi nk'amavoka, imyembe, bazihunikira muri pipiniyeri. Zamara gukura bakazipakira, bakazijyana mu baturage kugira ngo bazihinge. Ugasanga byorohera abaturage kubona imbuto bitabagoye.

Ibigori kikaba kimwe mu bihingwa bihingwa cyane. Ahantu henshi mu Rwanda, bahinga ibigori. Kugira ngo umusaruro ubungwabungwe hirindwe na bimwe mu bisimba byonona ibigori nka nkongwa, hari abafasha mu buhinzi, babyigiye, bakaba batuma abahinze ibigori bagira umusaruro mwiza.

Ibigori babihinga mu kibaya, ariko bashobora kubihinga n'imusozi. N'iyo haba harimo amabuye cyangwa urutare, biragerageza aho biri bikihigiramo ifumbire, waba wabihaye iyindi fumbire, bikera neza kurushaho.

Imiti ifasha mu kuvura abantu cyangwa amatungo, igomba kuba ibitswe mu ducupa dutuma idapfa kwangirika, ku buryo n'iyo yanyagirwa, amazi atahita agera mo imbere.

Imishwi ni imwe mu iikura ubundi ikavamo inkoko, iyo tukiri dutoya tubari twinshi, hari igihe duhura n'indwara zitandukanye tukananirwa kuzihanganira tukaba twapfa.

Bitewe n'uko abantu benshi mu Rwanda borora inka, ni ngombwa ko babafasha mu kubona ibikoresho bibafasha gutwara umusaruro nk'ibikoresho batwaramo amata.

Inka iri mu rugo ariko yarwaye ubushita, akaba ari icyorezo gikunze kwibasira inka, iyo cyageze mu nka wirinda ko inka yanduye ihura n'izitarandura kuko kirandura, kikava ku nka imwe kikajya ku kindi.

Imiti ya kizungu yifashishwa n'abantu bivura, imwe bakaba bayandikiwe na muganga cyangwa bakaba bagiye kuyigurira atari muganga wayibandikiye, ikabafasha mu kwivura.

Inkwavu zigira amabara atandukanye; zimwe zisa umweru, izindi zisa umukara, izindi zisa ikijuju. Zose zihuriye mu kintu kimwe kirimo ibiryo ziri kurya, harimo inkuru ariko harimo n'izikiri utwana.

Imwe mu miti yifashishwa mu kuvura amatungo harimo inka, ikunze kuboneka ahantu bagurishiriza imiti, ikunda kugurwa n'abantu bose kuko bawuzi bawita Bytal bo bagakunda kuwita vitamine.

Imwe mu miti yifashisha mu kuvura bashobora kuyitera banyuze mu mutsi cyangwa mu nyama. Ikaba harimo iyitwa ruzeleline, iyo miti iboneka mu maforumasi atandukanye.

Inkoko, imwe mu matungo azwiho gutanga umusaruro yaba amagi, inyama, cyangwa abandi bakazikoresha mu bucuruzi. Zikunda kurwara indwara zitandukanye, harimo izo amaso ashishuka ukagira ngo ni ibisebe.

Mu bigo bigurisha imiti za farumasi, usanga zifitemo amoko atandukanye, hari imwe abantu batagura ku giti cyabo nta muganga wayibandikiye, ariko usanga harimo n'indi izwi cyane ku buryo umuntu urwaye wese ashobora kujya kuyigurira.

Abagore bagiye kubagara imbuto, harimo soya, hakaba umugabo wambaye umupira w'umukara, waje kubabaza ibijyanye na soya, na bo bakamusobanurira.

Ivoka ikiri ntoya yatangiye kuzana ibitumbwe, ahandi hariho uruyange, nyirayo ayiri iruhande ari kureba uko umusaruro we uzaba umeze, yibereye mu murima we yiyambariye n'ingofero.

Abahinzi bahinga imboga bakunze gufata ubutaka bakagenda babugabanyamo ibice; ku buryo usanga buri gihingwa bagihariye agace kacyo, kandi hagati y'agace kamwe n'akandi hagasigaramo inzira icamo amazi, mu rwego rwo kwirinda ko amazi yazajyamo akabyangiza.

Ibitoki n'ibirayi ni bimwe mu bihingwa biribwa cyane ariko iyo igitoki cyaribwaga kimaze gusaza gishobora guhinduka icy'imineke, abantu bakaba bakirya nk'umuneke kurusha kugiteka kuko kiba cyaramaze gushya.

Ibirayi kimwe mu bihingwa bihingwa cyane. Imbuto zabyo bafata umusaruro w'ibyari byareze, bakaba ari byo bongera guhinga. Usanga ahenshi babanza gucukura utwobo, bakagenda bashyiramo imbuto, bagashyiramo n'ifumbire.

Abaturage bari guhinga intabire ikoze neza bashyizemo n'ifumbire, hafi yaho kakaba hahinze amateke, uwo murima ukaba urimo insina zeraho ibitoki biribwa.

Abantu bibumbira hamwe kugira ngo biteze imbere, aho usanga ababyeyi n'abasaza barakoze amashyirahamwe, ku buryo abafasha mu guhunika umusaruro, bakajya bawushyira mu mabase bawujyana ahantu hatuma utanyagirwa.

Inzu ishaje ifite amabati yahinduye ibara, haruguru yaho hari abaturage bari guhinga mu rutoki ubona ko bari kurima, insina zikaba zitangiye kwera zifite n'amakoma agaragarira buri wese n'ishyamba hafi aho.

Ibigori bakaba bari kuhahinga ibindi bihingwa bitandukanye, hzkaba hzkikijwe n'ibiti bivangwa mu myaka nka gereveriya cyangwa ibiti by'imbuto nk'iby'amavoka n'iby'amapera cyangwa ibindi.

Mu mirima itandukanye bahinga ibigori, imyumbati, abantu babihinga bakunze gukoresha amasuka aba akwikijwe imihini, ukunze gusanga hakikijwe n'urutoki.

Abahinzi bari mu murima bari kubagara ahantu hahinze imboga rwatsi, hakaba hari n'umuntu uri gutera umuti, wica udukoko tuba twangiza izo mboga. Bakoresha amasuka cyangwa ibindi bikoresho bisanzwe bazibagarira.

Abahinzi bibumbiye hamwe bari guhinga bakoresheje amasuka, bamwe bagakoresha ibitiyo kugira ngo itaka barikoreshe barisanza mu muhanda ahantu hari ibinogo kugira ngo imvura nigwa itazabangiriza.

Abahinzi bari guhinga umurima, bari barateyemo imboga, bamwe bafite amasuka, abandi bafite amapiki, bose bafite umugambi umwe wo kugira ngo bahahinge neza, nyuma yo kuhahinga hari abari kuza bakuramo ibyatsi bahataye.

Abahinzi bahinga bakoresheje amasuka. Bakaba bayikwikiza umuhini ubajwe mu giti. Abenshi baba bambaye bote, bakanambara n'ingofero mu rwego rwo kwirinda ibintu byabanduza.

Umufuka umwe mu bikoresho abantu bifashisha cyane bakusanyirizamo umusaruro wabo, ukabafasha kuwugeza ku isoko, hari na shitingi ibafasha cyane cyane mu kwanika umusaruro cyangwa mu gutwikira kugira utangirika mu gihe cy'imvura.

Umuceri, kimwe mu biribwa byifashishwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi. Kikaba, arimwe mu bintu bitagura amafaranga menshi ku isoko. Abantu bawuhinga, bibafasha kubona amafaranga.

Abantu benshi bahinga amavoka nka rumwe mu rubuto ruribwa cyane, ntabwo wajyana amavoka ku isoko ngo buri umukiriya, kubera ko abantu bakunze kuyarya ku biryo bikabafasha kongera apeti.

Hari ibice bimwe na bimwe bigihinga amasaka, kimwe mu bihingwa byakundwaga cyane mu gihe cyo hambere, kubera ko babishigishagamo amarwa cyangwa bakabitekamo igikoma gishyushye, ariko na n'ubu hari abantu bakibihinga nubwo atari benshi.

Inyanya zamaze gutukura ni ikimenyetso cy'uko zeze, barazisarura bakazihunika ahantu hamwe, ubundi bakagenda bazipakira mu mifuka bikozwe n'abagore cyangwa abagabo kugira ngo bazijyane ku isoko.

Imyumbati basaruye bayirunda ahantu hamwe, bashobora kuyitonora, bakayanika ubundi bakazayikoramo ubugari, cyangwa bakayitonora bagahita bayiteka bakayirya batiriwe babanza kuyanika.

Nyuma y'uko abantu bamaze kweza umusaruro wabo, bawukusanyiriza hamwe, ubundi ukajyanwa ku isoko, cyane cyane ku nganda, ibigori byo babijyana ku nganda zibitunganyamo akawunga, kandi bakagerageza kubibagurira ku giciro cyiza.

Imwe mu mishinga y'ingirakamaro kandi ifasha abaturage harimo n'umushinga wo guhinga imboga n'imbuto. Zimwe mu mbuto zihingwa cyane harimo amavoka, akaba akunzwe cyane n'abanyarwanda kandi akaba akunze no kuboneka ku masoko.

Ibirayi birunze mu murima, bamaze kubisarura barabura kubipakira mu mifuka ngo babijyane, hakaba n'ibigori bihinze hafi aho ngaho, ibiti na byo hakurya yaho.

Ibigori bibamo amoko atandukanye; hari ibiba bisa umweru, hai ibiba bijya gusa umuhondo wivanzemo n'umutuku. Byose birakoreshwa mu gushigisha igikoma; ababihinze babipakira mu mufuka mu rwego rwo kubihunikamo cyangwa babijyanye ku isoko.

Imifuka ipakiyemo amavoka avuye mu bice by'ibihugu bitandukanye, akaba yazanye mu bice by'imijyi kuko aho batayahinga cyane, bakaba abantu benshi bakunze kuyarya ku biryo nk'urubuto ruboneka cyane mu gihugu bararukunda cyane,

Ibirayi bipakiye mu mufuka abantu baje kubigura, kubera ari kimwe mu bihingwa bikunzwe cyane, ahantu heza ibirayi babijyana ku masoko atandukanye kugira ngo n'abatabihinga babashe kubibona.

Ibigori bihingwa ku buso bunini, aho abantu bibumbira hamwe bakajya kubibagarira, ahegereye amazi nko ku biyaga, bakayakoresha babivomerera cyangwa babyuhira.

Amazu yubakishijwe amabati, akaba afatanye ari imiryango myinshi, imbere yayo hakaba hari umuhanda urimo amabuye, ariko ukaba ubona ko ukozwe neza ku buryo imvura iguye itawangiza.

Shitingi, bimwe no mu bikoresho byifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakayikoresha batwikira nk'amazu cyangwa ibintu banitse mu gihe imvura yaba igiye kugwa kugira itabinyagira.

Mu bice bitandukanye abantu bakora ubuhinzi, aho usanga ahegereye ibiyaga abantu babyifashisha bakabikuramo amazi bakahuhira imboga bateye nubwo atari kenshi ariko birakorwa.

Amasaka bikaba ari bimwe mu bihingwa byahingwaga cyane mu Rwanda kera ariko n'ubu hari aho bakiyahinka, akifashishwa cyane mu kwenga ikigage cyangwa ubushera, bikaba ari bimwe mu bintu binyobwa cyane n'abaturage ba rubanda nyamwinshi.

Hari ibice bimwe na bimwe bitandukanye bigizwe n'amashyamba, aho usanga nta bindi bikorwa by'iterambere bikorerwamo, bikaba ari ibyo biti gusa, abantu bazagera igihe bakajya kubisarura.

Urwiri ni bimwe mu byatsi byimeza mu mirima itandukanye ariko sibyo gusa kuko hari n'ibiti bikura bikaba birebire ariko abantu batajya batera, ahubwo byimeza ariko byamara gukura abantu bakabikoresha.

Ibihingwa bitandukanye ni ingirakamaro, hari aho usanga hari ibihuru abantu batahahinga, ibyo bihuru bibamo inyamaswa z'amoko atandukanye, ariko nyinshi bagerageza gutuma zitajya mu baturage ku buryo zibabangamira.

Ahantu hari umuhanda unyura hagati mu ishyamba hakaba harimo ibiti by'inusu bikaba bikunze kwifashishwa babibazamo imbaho zikoreshwa mu bwubatsi cyangwa bakabitwikamo amakara.

Te ni igihingwa abantu bakunda gukoresha nk'ikirungo, cyane cyane bakagiteka mu nyama kuko kizwiho kuzihumuza, sibagikoresha cyonyine kuko hari n'ibindi bongeramo, harimo nka puwavuro.

Mu bice byinshi by'icyaro, usanga hari abantu bubaka inzu bakazisakaza amategura, akaba bakozwe mu ibumba, ariko abenshi basigaye bakoresha amabati.

Ishyamba ririmo ibiti bya kimeza ariko bifite umumaro wo gutuma bagira ikirere cyiza kitarimo imyuka ihumanya. Hasi hakaba harimo urwiri n'ibindi byatsi by'amoko atandukanye.

Umurima uhinzemo ibihingwa by'imvangitirane. Harimo intoryi imbogarwatsi cyangwa dodo hakabamo insina n'ibindi bitandukanye, ariko byose bisasiye hakoreshejwe ibyatsi.

Pipinyeri bahunikiyemo ibiti, ikaba barashyize itaka mu mashashi y'umukara, byamaze gukura abantu baratangira bakajya kubihinga, ababishaka barabibegereza kugira babihinge bitabagoye.

Mu bice bitandukanye harimo ahantu hahinzwe amashyamba, aho usanga nta bindi bikorwa bihakorerwa, usibye kuba hari ibyo biti abantu basarura iyo bimaze gukura bakabikuramo imbaho cyangwa amakara.

Mu bice by'icyaro usanga inzu yubatse idahomye, idateye sima ariko isakaje amabati ugasanga inyuma yaho hari igihuru kigizwe n'ibyatsi by'amoko menshi.

Ibigori birahingwa ahantu henshi ariko hari igihe usanga barabihinze ku buso buto ku buryo umuntu aba yarahinze ibyo kotsa cyangwa gutekera abana, atagamije kuzabijyana ku isoko.

Ishyamba riba ririmo ibiti abantu bateye, ako hakabamo n'ibiti bya kimeza. Akenshi usanga ibyo bya kimeza, nta bantu babisarura, kubera ko ntago biba bikomeye, kuburyo babikoresha mu mirimo, nk'ubwubatsi.

Inka zo mu Rwanda zikunda kurya urubingo, ahantu baruhinga rukaba rwera rukazamuka cyane, ku buryo bamwe bashobora gukoresha ibisigazwa byarwo mu kubaka uruzitiro, cyangwa mu y'indi mirimo y'ubwubatsi.

Urubingo ni bimwe mu byatsi bagaburira amatungo. Bikunze guhingwa mu bice bitandukanye. Hari n'ababikoresha bafumbira cyangwa babiboza, bikazakora ifumbire.

Ahantu henshi, haba hahinze ibiti by'amoko atandukanye. Harimo ibyera ku butumburuke byo hejuru, harimo n'ibyera bitaba birebire cyane. Ariko usanga, byose byifashishwa, cyane cyane iyo bimaze gukura, bakabikuramo inkwi zifashishwa bacana.

Ahantu bahinga imboga rwatsi, zizwi nka dodo, bashobora kuzihunikira hamwe, cyangwa bakazishyira ku karima k'igikoni. Bakazifumbira n'ifumbire ihagije, kugira ngo zitange umusaruro mwinshi.

Ibitunguru ni bimwe mu birungo bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, abenshi ntibarya ibiryo bitarimo ibitunguru, hari ibitunguru by'umutuku hakabaho n'ibitunguru by'umweru byose birakoreshwa.

Mu buhinzi bahinga ibihingwa bitandukanye harimo nk'imboga rwatsi. Ahantu bazihinga bakaba bagerageza kuzitaho kugira ngo zizafashe abantu mu kongera imirire myiza igizwe n'indyo yuzuye.

Ahantu bacuruza imboga n'imbuto, usanga higanje ubwoko bw'imboga zitandukanye, harimo karoti, ibiriganya, pavuro, ibitunguru, imiteja ndetse ugasanga hari n'amavuta.

Ipapayi ikaba kimwe mu bihingwa bikunzwe guhingwa nk'imbuto. Abantu bayihinga mu rutoki cyangwa ahantu mu busitani. Bakayikoresha nyuma yo kurya, cyangwa bagakoresha imbuto zayo nk'umuti.

Abantu bakora ibijyanye n'ubuhinzi; abenshi babigiyemo bagenda bambaye bote kugira zibarinde ko hagira ibuye cyangwa ibisimba bibarya ku maguru, ubundi bagakora ibikorwa byabo by'ubuhinzi bisanzuye.

Amatunda abamo amoko atandukanye, habamo amatunda ya mugozi ndetse n'ayo bita ibinyomoro, usanga abantu b'inzego zitandukanye bakunze kuyakoresha kandi hari ahantu henshi aba ahinze.

Imbogarwatsi zirimo amoko atandukanye, abenshi bakunze guhita bumva dodo nk'aho arizo mbogarwatsi bakoresha cyane, ariko sizo zonyine kuko hari n'abakoresha amashu nk'imbogarwatsi.

Hari ibice bikikije inzu abantu badahinga ahubwo bakahatera ubusitani butuma bagira ikirere kimeze neza, bakanahumeka umwuka mwiza, ku buryo ubarinda indwara zimwe na zimwe z'ubuhumekero.

Amavoka n'izindi mbuto zitandukanye, bajya kuzihunikira muri pipiniyeri, ku buryo abantu bashaka imbuto bagenda bakazikura aho muri pipiniyeri kugira ngo na bo bajye kuzihinga mu bice bitandukanye, bikaba bifasha abantu mu kubona imbuto byoroshye.

Ibice bimwe na bimwe usanga bigizwe n'ibihuru, hadahingwa cyangwa nta bikorwa bizwi bihakorerwa, ariko hari gahunda yo kugira ngo na ho abantu bajye bahifashisha mu buhinzi, ibihuru babiteme.

Ahantu henshi hahurira abantu bakunze kuhatera ubusitani, aho usanga mu mazu ahurirwamo n'abantu benshi, ku mpande hatewe ubusitani bugizwe n'ibiti bitandukanye kandi abantu bakabikunda.

Uturima tw'igikoni ni imwe muri gahunda za Leta, ku buryo umubyeyi w'umupapa n'uw'umumama bose bafatanya bagatera imboga. Hakaba haba higanjemo imboga rwatsi cyangwa intoryi.

Ibiti bikikije igipangu, bikaba biri hafi y'urugo, hakaba hari imiyenzi, bimwe mu bihingwa bidapfa kumishwa n'izuba, abantu bifashisha batandukanya imirima y'umwe n'iy'undi.

Abaturage bibumbiye hamwe bari mu muganda, bari imbere y'akarima k'igikoni, bari guteramo amashu, bakikijwe n'izindi mboga rwatsi, hafi yabo harimo abakecuru, abasaza n'urubyiruko.

Karoti abantu benshi bakunze kuzihinga, kuko zitanga amafaranga, uhinga zitaguhenze ariko wajya kuzigurisha ugakuramo amafaranga menshi, kuko iyo wazitayeho zigira umusaruro.

Mu bice bahunikiramo imbuto zitandukanye, abantu bajyayo bakazigura kugira bajye kuzihinga, ku buryo n'umubyeyi uhetse umwana bitamubuza kujyayo kugira ajye kwihingira na we yiteza imbere.

Urusenda ni bimwe mu bihingwa bihingwa cyane kandi bikagira amafaranga, ku isoko ntiwahajya ngo ubure urusenda, niyo ari mu bihe by'izuba abantu baragerageza bakaruvomerera ariko rukaboneka kuko abantu benshi ntibashobora kurya batarufite.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, harimo abagore, abana n'abagabo. Bagiye kureba ahantu bahunikira ibiti. Byazamara gukura bakabiha abantu, bakabihinga kugira ngo babone imbuto bitabagoye.

Ubusitani burimo igiti cy'amavoka, kitaratangira kweza kitariho ibitumbwe, nta n'imbuto zigaragaraho, gishobora kuba kiri mu gihe kitari icyo kwera, kikaba gikikijwe na pasiparumu aho hasi.

Intoryi zikaba zimwe mu mboga ziboneka cyane mu Rwanda, abantu benshi bakazihinga kandi ntizibagore, kuko ntago zuma uko imvura ihise igwa, nta n'ubwo bisaba kuzivomerera cyane kuzisasira biba bihagije.

Ubusitani ni bimwe mu bintu bikunzwe cyane. Aho abantu bemera imbere y'ingo cyangwa inyuma, aho bakabaye bahinga ibyo kurya bakemera bakahahinga indabo kugira ngo bazitunge mu busitani bwabo.

Ibigori kimwe mu bihingwa bihingwa cyane ahantu hatandukanye, bakaba bashobora kubihinga hamwe n'ibindi bihingwa bitandukanye nk'inyanya, ubundi bakabisasira kugira ngo igihe imvura yaguye imaremo igihe imvura idahita ituma huma.

Ubusitani bukikije urugo. Hakaba harimo imboga zitandukanye n'indabyo. Harimo na pasiparumu, hakaba habagaye neza itaka rigaragara ntabwo harapfukirana ngo habe igihuru.

Mu masoko y'imboga n'imbuto, usangamo imbuto z'amoko menshi, hari aho usanga imyembe, amatunda ya mugozi, pome, amapapayi, inanasi n'ibindi.

Inyanya zimwe mu mbuto Abanyarwanda bahinga cyane, mu cyaro ndetse no mu mijyi, abantu benshi bagerageza kuzitaho bakazisasira bagashyiraho ifumbire, bakanazishingira bakoresheje ibiti bisanzwe kugira ngo zerere hejuru kurusha uko zajya ku butaka zikangirika.

Umurima uhinzemo amapapayi, bakaba yarahinzemo karoti, harimo n'intoryi n'imiteja, hakabamo n'imigozi y'ibijumba. Izo zose ni imbuto abantu bifashisha mu guteka no mu biribwa bya buri munsi.

Mu masoko atandukanye hakunze kuba higanjemo imboga n'imbuto, muri izo hakabamo imineke, amavoka n'ibindi, imineke n'imwe mu bintu bikunzwe cyane kandi biboneka mu bice bitandukanye by'igihugu, abantu bakunda kuyigura kuko idahenda.

Ipapayi n'urubuto abantu bakunda kurya cyane cyane nyuma y'ibiryo, ahantu henshi mu gihugu bararuhinga hari n'abakoresha imbuto zarwo z'imbere nk'imiti ya gakondo.

Abahinzi bamaze gusarura umusaruro wabo harimo kawa, bayipakira mu mifuka, imbere mu iyi mifuka bagashyiramo ishashi ituma iyo imvura iguye amazi atagera ku musaruro ubitsemo imbere.

Ahantu hahinze imboga rwatsi ndetse n'intoryi. Ibi byose bikaba ari ibirinda indwara abantu bakabikoresha ku mafunguro yabo ya buri munsi kandi bagasobanurirwa akamaro ko kurya imboga.

Ibice bimwe na bimwe usanga hari ibihuru, ugasanga ariko hari n'ahandi abantu bahinze, hakaba bakunda guhinga imboga na karoti, kubera ko ni bimwe mu bihingwa bikunzwe cyane.

Ahantu bagurisha imboga ziganjemo karoti, imeteja, pome, puwavuro, amashaza, amavoka, intoryi ndetse bakongeraho n'imineke.

Ubusitani bugizwe n'ubwoko butandukanye bw'ibiti, bifite amababi yejeje yenda guhinduka umuhondo ariko harimo n'ibindi byatsi by'ubwoko butandukanye.

Igiti cy'ivoka kikiri gitoya gihinze mu murima, ahantu gisasiye neza hifashishijwe amajangara, kikaba gikikijwe n'ubutaka hafi y'aho hateye ibishyimbo.

Mu mbuto zikoreshwa cyane, harimo amatunda ya mugozi, usanga abenshi bayahinga ku ruzitiro rw'urugo bitabasabye ubuso bunini, nayo akagenda yerera aho ngaho.

Karoti ni bimwe mu bihingwa bihingwa cyane, ahantu bacururiza zikunze kuba zihari, hakaba hari n'izindi mboga nka beterave bakunze kurya kugira ngo abafashe kongera amaraso, hakaba n'ibiriganya ndetse n'izindi mboga zitandukanye.

Kubera ko ibice byinshi by'imisozi iyo imvura iguye, bikunze guhura n'ikibazo cy'isuri, ahari hari imyaka amazi akayitembana abantu bakaba barikugwa mu bihombo, basigaye bahaca amaterasi y'indinganire, mu rwego rwo kurwanya isuri.

Inyanya ni kimwe mu bihingwa bihingwa cyane abantu bakabikoresha nk'ibirungo. Babishyira mu biryo kugira ngo bitukure. Ariko kandi bakabikoresha kugira ngo birinde indwara zimwe na zimwe. Hari n'abakoresha imiteja na bo nk'imboga.

Mu isoko uhasanga abantu bacuruza imboga zitandukanye, harimo imyanya, karoti, intoryi n'ibindi, baba babifunze ku buryo buri muntu ashobora kubona uko bigura ku mafaranga make.

Ibasi irimo imboga ziganjemo karoti, imiteja n'ibihaza. Abantu benshi bakunda kuzirya kugira bagire ubuzima bwiza buvuye mu kurya indyo yuzuye yiganjemo ibirinda indwara arizo zino mboga.

Umusaruro w'imboga n'imbuto bigaragara ko weze cyane ukaba uhunitse ahantu hamwe, harimo intoryi, imiteja, inyanya hakaba hari n'ibasi ibafasha kuzitwara bazivana aho bazibitse.

Indabo bimwe mu bintu bikunze kuboneka yaba iz'abantu bahinze babigambiriye cyangwa izimejeje mu gihuru, nyinshi zikunda kurangwa n'uko ziba zifite utubabi tw'umuhondo cyangwa utw'umutuku, ariko harimo n'iziteza zikomeye zigasa icyatsi.

Karoti ni ibihingwa byerera munsi y'ubutaka, abantu bakaba bazikunda, bashobora kuzitekana n'ibishyimbo cyangwa bakazikoresha nk'ibirungo mu muceri, ahenshi bakunze kuzirya bazihekenye batiriwe bazitetse.

Kuhira bimwe mu bikorwa bigenda bitera imbere, cyane cyane leta nayo ikabishyiramo imbaraga kugira bifashe abahinzi kujya bahinga haba mu gihe cy'imvura, cyangwa mugihe cy'izuba. Bikaba ari ingirakamaro cyane.

Ahantu hahinze ibigori, iyo bimaze gukura bikunda kurwara nkogwa. Bikaba bimwe mu byorezo byibasira umusaruro w'ibigori. Kugira babirwanye babitera umuti wica utwo dukoko. Abantu babihinze bakunze kubyikorera.

Ahantu hahinze ibihingwa bikiri bito kandi ku buso bunini bigamije amajyambere, bakunze kuhashyira ibikorwa bifasha mu kuhira. Basanga amapombo cyangwa andi matiyo atwara amazi afasha mu icyo gikorwa.

Ahantu hahinze imboga. Nyirazo akazuhira kugira ngo mu gihe cy'izuba zituma. Hakikijwe n'ishyamba, ku buryo iyo imvura iguye nawe aba afite icyizere ko izamugeraho.

Ahantu bahinze amashu, hakaba hari umugabo uri kuvomerera kugira ngo mu bihe by'izuba amashu atuma, akomeze kubona umusaruro we nta kibazo, hakaba hakikijwe n'imisozi ihinzeho ibiti by'inturusu.

Kuhira ibihingwa bimwe mu bintu bifasha mu kongera umusaruro, kubera ko mu gihe cy'izuba bituma n'ubundi abantu bakomeza guhinga, ariko si henshi bakora igikorwa cyo kuhira kuko rimwe na rimwe usanga bihenze.

umusore ufashe umupira w'amazi arimo yuhira imyaka ye, yambaye agapira ka lakosite, akaba afite n'abandi bamuri iruhande bamufasha mu kuhira iyo myaka.

Mu bice bitandukanye haba hariho ibiti, cyane cyane bikunze gushyirwa ahantu h'imisozi, si kenshi usanga mu kibaya hahinze ibiti, keretse ahantu hatuye abantu baba barabihinze kugira ngo bafashe kubungabunga ikirere.

Mu bikoresho byifashishwa mu buhinzi harimo isuka. Ikaba ari imwe mu bintu bifasha mu buhinzi cyane kuko yaba ahoroshye n'ahakomeye cyangwa abana n'abantu bakuru bose bashobora kuyikoresha.

Mu kibaya cyane cyane mu gishanga usanga hahinze umuceri. Si ibice byinshi by'Igihugu bihinga iki gihingwa. Ariko aho bagihinga kifashishwa n'abaturage mu nzira y'amajyambere.

Mu bice by'igishanga abantu bahakorera ubuhinzi, ariko iyo imvura yabaye nyinshi, amazi arareka akaba menshi, akaba ashobora no kwangiza ibikorwa bahakoreye by'ubuhinzi.

Hari ibice bimwe na bimwe bidahingwa ugasanga harimo pasiparumu, urwiri, ibiti cyangwa bakahifashisha bahakora neza imodoka zikajya zihaparika.

Imisozi ihinzweho icyayi, ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu, hakaba harimo ibindi biti bitandukanye by'intusu ndetse hakaba hagiye harimo imihanda hagati ya buri gice gihinzemo n'ikindi.

Umuceri abantu benshi ntabwo bakunda kuwuhinga kuko imiceri iboneka batayihinga imusozi ahubwo bayihinga mu gishanga. Nubwo kuyibagarira biba bitoroshye n'imvura yaba nyinshi ikangirika, ariko abantu barayihinga.

Mu bice bitandukanye bakunda guhinga ibihingwa bitewe n'imiterere y'ahantu nk'abatuye imusozi bakunze guhinga ibigori, ibijumba cyangwa insina, abo mu gishanga bagahinga umuceri cyane kuko haba higanjemo amazi.

Ahantu ku musozi wubatse inzu. Ako ukabona ko mu kibaya, hakorerwa ubuhinzi n'ubworozi. Hakaba hari n'akazu, kabamo ukurikirana iyo mirima, kakaba kazengurutswe n'ibyatsi byiganjemo ibihuru.

Ibice byiganjemo ahantu hadahingwa, usanga hari ibinogo, hakaba hakikijwe n'ibyatsi by'amoko atandukanye, harimo urwiri, ibishikashike, n'ibindi, ugasanga atari byiza kuhagendera kuko umuntu yahavunikira.

Inzu ya etaje igereretse inshuro irenze imwe, ikaba izengurutswe n'uruzitiro. Hakaba hariho ipironi rizana umuriro w'amashanyarazi ariko hakaba hari n'umugezi hafi y'iyo nyubako.

Bimwe mu bice bikunze kugwamo imvura nyinshi babihingamo umuceri cyangwa ibindi bihingwa byihanganira kwerera mu mazi. Ariko ibyo bice usanga bigoye guhingwamo kuko kubikorera ntabwo biba byoroshye, bisaba ubushobozi bwisumbuyeho.

Bamwe mu bantu bakora ubucuruzi bwo kugurisha amatungo magufi harimo ihene. Bakazikusanyiriza mu gice kimwe abantu bazororeramo, ubundi bakazipakira bakazijyana mu masoko yiganjemo ayo mu mujyi.

Inkoko imwe mu matungo yorowe n'abanyarwanda benshi cyane, akaba ari umushinga ufasha abantu baciriritse kuzamuka na bo bagakira bahereye mu kugurisha amagi, mu kugurisha inyama n'ibindi bitandukanye bishobora kuva mu musaruro wazo.

Ingurube ni imwe mu matungo yororoka vuba, ku buryo nyuma kuyibanguriza, amezi atatu aba ahagije kugira ngo ibyare, bamwe bakavuga ngo ni ukubwanura, ubundi ugatangira kugira umusaruro uhagije.

Muri gahunda zo guteza imbere abaturage bashishikarizwa korora amatungo magufi harimo ingurube, kuyorora ntago bigora kandi ushobora gutangira ufite ingurube imwe, nyuma y'imyaka itanu ukazaba umaze kugira ingurube nyinshi cyane.

Ihene imwe mu matungo akunzwe cyane, abenshi bakayikoresha bayikuramo inyama, bamwe bakayotsamo burushete, abandi bakayorora bakayikuraho amata bakoresha avura abana barwaye bwaki.

Ingurube akaba ari itungo abantu bakunze korora, hakaba hari bamwe bafite imyemerere y'uko batemera ko barirya, nubwo hari ikindi gice cy'abantu bakunze kurirya cyane bakaryita akabenzi bavuga ko riryoha.

Ni byiza ko ubworozi bw'inka, buri yose uyishyira mu kiraro cyayo, kikaba cyubakiye, itanyagirwa, hari n'uburyo uyikorera isuku ku buryo udasanga hari ibisogororo cyangwa ibindi bintu by'imyanda biri mu kiraro.

Abantu benshi bakunda korora inkwavu, bakazororera mu tuzu twubatse n'ibiti bakunze kwita ibibuti. Bizifasha kugumamo bakaziheramo ibyatsi, ntihagire inyamaswa zo hanze zizirya ku buryo bworoshye.

Ahantu hakorerwa ubworozi bw'inkoko, hari igihe usanga hari udukoko duto. Abenshi bita imishwi. Kugira ngo ikure, ni uko bayigaburira kandi bakayiha ibiryo byabugenewe. Kugira ngo zibashe kurya zikurire.

Intama ni amwe mu matungo adakunze kuboneka cyane, kubera ko akunze kuba ahantu haba ubukonje, rero mu bice bindi bitabamo ubukonje ntabwo abantu bakunda kuyorora n'inyama zayo ntabwo abantu bazikunda cyane.

Ingurube ni amwe mu matungo magufi yororwa cyane, akororwa n'ingeri zitandukanye ku buryo usanga urubyiruko ndetse n'ibigo by'amashuri bishobora kuzorora, aho ibintu biba byasigaye ku mashuri abana barya babikoresha babizigaburira.

Dendo ni imwe mu bwoko bw'inkoko bwororwa mu Rwanda si henshi bazorora kubera ko kuzorora biragoye zirya ibiryo byinshi kandi kubibona ntabwo biba byoroshye, aho ziri usanga ari hakeya.

Ubworozi bw'inka ni bumwe mu bukorwa n'abantu kugira ngo biteze imbere. Bakaba bashobora kugurisha amata cyangwa inyama. Hari inka zabugenewe mu bijyanye no gutanga umusaruro uhagije w'amata.

Ingurube iri mu kiraro ifite n'ibibwana yabwanuye. Ikaba mu ibyo bibwana harimo ibya kizungu. Bifite amabara y'umutuku ariko hakabamo n'ibindi bifite amabara y'umukara n'umweru.

Akanyana kari mu kiraro, kakiri gatoya ku buryo batakajyana kukaragira hamwe na nyina. Kaba kazi kwiruka ntabwo washobora kukagumisha ahantu hamwe, niyo mpamvu akenshi bagashyiramo ikiziriko kugira katajya kure.

Abana batoya ni bo bakunze gusanga baragiye ihene, bitabujije ko n'umubyeyi yafasha umwana kwahira ubwatsi bakayiha iri mu rugo, usanga akenshi mu bice by'icyaro ari bwo buryo bakoresha mu kuyigaburira.

Bumwe mu bworozi bukorwa n'abantu benshi kandi butagoye harimo n'ubw'ingurube, rikaba itungo ritagora mu kurishakira ibyo kurya ndetse no mu kurivuza mu gihe ryarwaye.

Imwe muri gahunda za Leta harimo koroza abantu amatungo magufi, aho babaha nk'ingurube cyangwa andi matungo nk'ihene akabafasha nabo kwiteza imbere.

Inka ni itungo rikunzwe n'Abanyarwanda benshi, usanga baryororera mu rugo, bakaryahirira ubwatsi butandukanye nk'urwiri, urubingo cyangwa ibindi bisigazwa by'ibigori ariko bitabujijwe ko banorora ihene hafi yaryo.

Abantu benshi baba boroye ihene, abadafite umwanya wo kujya kuziragira bazizirika hafi y'urugo ubundi bakajya bazahirira ibyatsi zikaba ariho zibirira, bigatuma bamenya neza ko nta muntu waziba ku buryo bworoshye.

Ahantu boroye inka ni byiza ko bayisasira bakoresheje ibyatsi bitandukanye cyangwa inshinge imaze kubora bayikoramo ifumbire bakayikoresha bafumbira ibihingwa bikabafasha kugira umusaruro mwiza.

Ihene ni imwe mu matungo yororwa n'abantu b'ingeri zitandukanye, aho usanga buri muturage ashobora kuba yifitiye ihene imwe, akayiraza hafi y'urugo rwe, ubundi akajya ajya kuyahirira ubwatsi.

Hari abantu benshi bakunze korora ihene. Aho umubyeyi yemera akajyana n'umwana we bakajya kuziragira ahantu hafi y'urugo, haba mu nsina cyangwa ahantu bari barahinze ibindi bihingwa ariko bamaze gusarura.

Abanyarwanda benshi borora amatungo magufi harimo ihene, rikaba rikunzwe cyane kuko ritago kuryorora, ntago risaba umwanya munini uryitaho, ushobora kurishyira mu gihuru, rikiberamo ryirishiriza, bwakiba ukajya kubicyura.

Inka ifite amabara y'umukara n'umweru, ikaba yarabyaye, ishobora kuba ari akanyana cyangwa akamasa; iyo ari mu masaha ya mu gitondo karonka, kugira ngo nyina na yo igire umwanya wo kurisha.

Inka ni imwe mu matungo akunzwe cyane, hagira ahantu bayagurishiriza, bamwe mu bayagura, barayatwara bakayashyira mu modoka, bakayajyana ku masoko rusange.

Ahantu henshi ntibacyorora amatungo ku musozi, ahubwo bamwe usanga bafata ihene cyangwa andi matungo bakayashyira mu rugo, bakajya bayahirira ibyatsi bakayibizanira mu rugo aho batuye.

Akanyana kakiri gato gafite ibara ry'umweru n'umukara, kaba kazwiho kwiruka cyane. Ni byiza ko ugatwaye agashyiramo ikiziriko kugira ngo amenye uko akayobora katajya kwangiza imyaka y'abandi.

Ihene ziba zifite amabara atandukanye, hari izigira umweru n'umukara izindi zikaba zisa isine, zose ziba zororerwa hamwe bashobora kuzirekera mu rugo akaba ari ho bazajya bazizanira ubwatsi.

Umushinga w'inkoko ni umwe mu bikorwa bikorwa n'abantu benshi, abakene n'abakire bose bashobora kuwukora kubera ko ushobora gutangira ufite inkoko ebyiri, ukajya ugurisha amagi izindi zikararira zigaturaga ugasanga umushinga umaze gukura, abakire na bo ushobora gutangirana nyinshi akajya agurisha ku bigo bitandukanye.

Ikiraro abenshi bakoresha ibiti bisanzwe bacyubaka, baba badafite n'imisumari bakazirikisha ibyatsi cyangwa imishumi, ariko bigatuma inka ziba ahantu heza ku buryo ziba zitanyagirwa.

Amashu ni zimwe mu mboga zikoreshwa cyane, abantu bakunze kuzihinga bakazishyiraho ifumbire, yaba iy'imborera cyangwa iy'imvaruganda, iyo zimaze kwera bazijyana mu masoko atandukanye, kuko abantu b'ingeri zitandukanye barazikunda.

Ibijumba ni kimwe mu bintu bihingwa cyane mu gihugu, barabihinga bikerera munsi y'ubutaka, bikababa biba bifite imigozi hejuru, bamwe bakayikoresha nk'ubwatsi bw'amatungo, bakaba bayita imijumbajumba.

Mu isoko haba harimo abantu b'ingeri zitandukanye, hari ababa baje kugurisha imboga abandi baje kugurisha ibinyabijumba harimo nk'imyumbati, mu mboga bazanye harimo karoti, intoryi, ibitunguru n'ibindi.

Ahantu hahinze imboga zitarakura, mu gihe cy'izuba bakahubakira bakahatwikira, kugira ngo igihe izuba ryabaye ryinshi ntirigeremo ngo ritume zihita zuma, n'ahadatwikiriye bakahasasiza ibyatsi.

Kugira ngo imbuto cyangwa ibiti bitandukanye biboneke ku isoko nuko bafata umurama, bakajya kuwufumbira muri pipiniyeri, ubundi bakazana ibiti bimaze gukura bakabiha abaturage bakabihinga.

Umurima bahinzemo ibigori, babisarura ntibakuramo ibishogoshogo bikaba byarumye, ukaba uhinze bitegura guhingamo indi myaka, ishyamba riwukikije hafi yaryo na ho ubona ko hari ibiti bikuze.

Ahantu hari pipiniyeli bafashe amashashi y'umukara barundamo itaka kugira ngo bazagende bashyiramo urugemwe muri buri shashi noneho bareke igiti gikore cyisanzuye.

Amashu iyo akiri mato, aba afite ibibabi by'icyatsi kibisi ariko akaba ananutse ku buryo utayareba ko umenye ko ari yo azibumbabumba, akavamo urushu runini.

Abantu benshi basigaye bafata umwanya bakajya kwiga ibijyanye n'ubuhinzi, kurusha uko byakorwaga kera, abantu babihinga cyangwa bakabikora nk'ibikorwa bisanzwe ahubwo abantu bakabikora bagamije kubikuramo amafaranga kuko baba barabyize.

Imboga rwatsi ni zimwe mu zifashishwa n'abantu mu mafunguro yabo ya buri munsi, zikaba ziri mu birinda indwara, ariko hari bamwe bataragira imyumvire yo kujya baziteka ku ifunguro ya buri munsi, aho zera zikanangirika atarazisarura.

Inyanya ni rumwe mu bihingwa abantu bakunze guhinga. Iyo bitarera, biba bisa icyatsi kibisi. Ariko iyo zimaze guhisha, zitangiye gusa umutuku, ni ikimenyetso kikugaragariza ko zimaze kwera, ubona kuzisarura.

Ibigori nyuma yo kwera abantu bamaze kubisarura bakabishyira hamwe mu bwanikero ahantu biba bishyaritse hatagera imvura ku buryo byuma neza bakabigurisha inganda bitarangiritse cyangwa ngo byangizwe n'udusimba dutandukanye.

Inyanya zihinze ahantu zitaratukura ngo zihindure ibara, ubona ko batazisasiye cyane ariko abantu bakaba bakunze kuzirya kugira ngo bivure banirinda kuzagira kanseri ya prostate n'izindi ndwara zitandukanye.

Bimwe mu bikorwa bitandukanye harimo nkaho bororera amatungo, usanga hubakishijwe ibiti bisanzwe. Ku ruhande bakashyira ubusitani, ku buryo iyo bashatse bifashishwa ubwo busitani nk'ahantu nyaburanga.

Imyumbati nimwe mu bihingwa byifashishwa cyane, aho ibibabi byayo babikoresha nk'isombi. Bakarisekura bakariteka bakarirya, ariko n'ibyera hasi ari byo myumbati nabyo abantu barabirya.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, yagiye kureba akabati gahurizwamo ibijyanye n'amashanyarazi, hariho imfunguzo nyinshi zihafungura n'izifungura indi miryango.

Ubuvuzi bw'amatungo ni kimwe mu bintu bigenda bitera imbere, aho urubyiruko rubyiga, bundi akaza yambaye igisarubeti cye, kaza gufasha umuturage kuvura inka, cyangwa irindi tungo ryagiza uburwayi.

Inka kugira ngo bazitandukanye bazambika amaherena, iyo bashaka kuyashyiraho amaherena abantu barayifata, ubundi umuntu wabyigiye uzi aho atera ku buryo bitari buyikomeretse akaba ariwe uyitera iryo herena.

Inka iyo ikiri ntoya yitwa akanyana, iyo bashaka kuyikura amahembe umushumba wayo arayifata, undi akamufasha gukuraho ayo mahembe kugira ngo ikure neza.

Umuntu ari gutera urushinge inka ikaba iri mu kiraro, ikaba ifite amabara y'umweru n'umukara hakaba harimo umushumba uyimufashije, kugira ngo igume hamwe abone uko ayitera urushinge.

Abaganga b'amatungo barafasha; nk'iyo akanyana karwaye bahamagara muganga w'amatungo, akaza akagatera umuti, ba nyirako bakamufasha kugira ngo gahame hamwe babone uko ba bagatera urushinge.

Abantu boroye inka bakunda kuzikorera amasuku, ku buryo yambara bote akajya kuyikorera amasuku bitamwanduje kandi bigatuma inka itanga umusaruro mwiza kuko binayirinda indwara.

Urugo rurimo inka yubakiye ikiraro gishaje, hari igipangu gikikijwe n'amatafari ya rukarakara, hakaba hari n'umugabo uri kugerageza gutunganya ibikoresho yifashisha yita ku matungo ye.

Igikona ni imwe mu nyoni ziboneka mu Rwanda, kiba gifite ibara ry'umukara n'umweru, ishobora guhagarara mu giti cya kigahagarara ahantu hatoya utakeka, nko ku rusinga cyangwa ibindi bintu bishinze.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa ziguruka zidakunze kubangama ku bantu baturanye na zo kuko ibyo zikoresha zirya ntabwo zikunze kujya kubyangiza mu baturage ahubwo zigerageza kwishakira ibyo zirya nk'imbuto mu mashyamba.

Bimwe mu bice by'amashyamba usanga harimo utunyamaswa dutandukanye, harimo inkende, chimpanzee zikaba zibera ahantu hari ibiti ariko byaba ngombwa zikajya no mu baturage.

Mu Rwanda haba amatungo atandukanye. Hari iziba mu ishyamba ahantu hari ibyatsi byinshi. Ariko zikaba zitaribwa n'abaturage ahubwo ziribwa n'izindi nyamaswa, harimo nk'impyisi cyangwa intare.

Zimwe mu nyamaswa zidakunda kuboneka harimo inkima, ikunze kwibera ahantu haba ibyatsi byinshi ariko nta mahoro iba ifite kuko hari udusimba twinshi tuyihiga kugira ngo tuyirye nk'imbwa z'inyagahuru ziba zishaka kuyirya.

Inyoni y'umukara ifite n'akabara kandi ku ruhande, yihagarariye ku ishami ry'igiti iri kureba impande zayo, ntabwo inyoni zose ziba mu Rwanda, ariko izihaba zibana n'abaturage zitabononera cyane.

Ingwe ni imwe mu nyamaswa zo muri parike y'Igihugu. Abantu bakajyayo bagiye kuzisura, si kenshi wazibona hafi y'aho abaturage baba. Gusa abantu benshi barayitinya kubera ko irya nyayama, rero bagendera kure kuko nabo ishobora kubarya.

Zimwe mu nyamaswa ziba muri parike y'Igihugu yitwa Akagera harimo imparage, ziba zifite amabara y'umukara n'umweru, si henshi wazisanga, ariko muri iyo parike zibamo, zikunda kwirira ibyatsi.

Inyoni ni imwe mu bisimba bikunze kuboneka mu bice bitandukanye. Akenshi usanga zibera mu ishyamba. Abantu ntago bagira umuco wo kuzorora cyane, kubera ko kuzigumisha iwawe ntago biba byoroshye; ziragenda zikagucika.

Inkende ifite amabara y'umweru n'umukara. Na zo ziraboneka. Zikibera ahantu mu biti. Zikagenda rimwe na rimwe mu mirima y'abaturage zishakamo ibyo kurya.

Inyoni zigira amoko atandukanye, hari inyoni zigira iminwa miremire kandi zikagira ijosi rirerire, ntabwo zikunze kuboneka cyane, ariko hari n'iziboneka cyane harimo nk'ibikona cyangwa inuma.

Inkende inyamaswa zikunze kwibera mu mashyamba. Abantu begeranye n'ahantu ziba, usanga batakizigirira ubwoba ariko abantu batuye ahantu zidakunze kuba, iyo bazibonye bo bagira ubwoba bakaba baniruka.

Inkende imwe mu nyamaswa zikunda kurira ibiti, igakunda kugenda hejuru, igasabana n'abantu, iyo abantu badakunda kuyirukankana, ukaba ubona ko iyo ikuze iba itagikunda kugenda mu biti cyane.

Mu bice bitandukanye by'igihugu harimo inyamaswa zibera mu ishyamba ariko zijya no mu bantu ntizibabangamire, muri zo harimo inkende, mu gace rero k'ishyamba usanga zibamo kandi zitabangamiye abaturage bahaturiye.

Udusumbashyamba ni zimwe mu nyamaswa ziba muri pariki, zikaba zikunda kubana n'impara n'imparage, zikunda kwirira ibyatsi, zikaba ahantu hari imikenke, ku buryo zibona ibyo kurya bihagije.

Mu mashyamba atandukanye habamo ibiti, imigezi n'ibindi, rero bituma inyamaswa z'amoko menshi nk'inyoni zikunze kuba mu biti, imbeba zo mu ishyamba nazo zijya kubamo kandi ntizigire uwo zibangamira.

Inkende imwe mu nyamaswa zibera mu biti, zikunda kuba ahantu haba hari abantu, ikamenya ukwita ku mwana wayo, iba yiyicariye ku mabuye, yigendera, ititaye ku bantu, ikarya ibiryo bijya gusa nk'iby'abantu.

Habaho amoko atandukanye y'inyoni. Inyinshi zibera mu ishyamba. Harimo n'izikunda kuba ahantu hafi y'imigezi cyangwa ibiyaga. Usanga hari izifite amabara y'umutuku, umukara n'ubururu.

Imbwa ni itungo ryororwa n'abantu batandukanye, haba abarikoresha mu gucunga umutekano cyangwa kugira bajye bakina na ryo, abantu benshi usanga baryoroye mu ngo zabo, kimwe n'uko hari imbwa nyinshi ziba mu gasozi.

Inyoni zirimo amoko menshi atandukanye, harimo izitwa ibikona, zikaba ziba zifite amabara y'umukara n'umweru, zikaba ziganje cyane ahantu hari ibiti byinshi, ntabwo zikunze kuboneka mu bice byose.